Abacuruzi batanga serivise zitandukanye, harimo serivise za banke, serivisi za mobile money, bahuriye hamwe, ahantu muri gare, imodoka ziratwara abagenzi, aba motari nabo ni uko ndetse n'abandi baturage basanzwe, bari gukora urujya n'uruza.

Abakora umurimo wo gutanga amainite ndetse n'ibindi bijyanye na mobile money, bishimira akazi kabo kuko kabafasha mu kwiteza imbere.

Abakora ubucuruzi bwo gutanga minite ya Airtel, ni bamwe mu bafite akazi keza kandi bishimira, bavuga ko babona amafaranga abatunga ndetse n'akemura ibibazo mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abakora ubucuruzi bwa Mobile Money ndetse no gutanga amayinite, kubikuza, kubitsa no kohereza amafaranga, ni bamwe mu bishimira akazi bakora kuko kabinjiriza ndetse kagatunga n'imiryango yabo.

Abakora ubucuruzi bwo gutanga amayinite ndetse na Mobile Money muri rusange, bavuga ko aka kazi gashobora gutunga umuryango ndetse ukabona n'ibyo ukeneye mu buzima bwawe bwa buri munsi.

Abakora imirimo yo gutanga mayinite, kubikuza, kubitsa ndetse no kohereza amafaranga abakorera sosiyete ya Airtel ni bamwe mu bishimiye akazi bakora kuko bakuramo amafaranga abatunga mu buzima bwabo bwa buri munsi ndetse bakabona n'ibyo bakeneye.

Ikigo cy'itumanaho MTN kirashishikariza abaturage bose kugura amayinite maze bakigurira iminota yo guhamagara itandukanye.

Abakora akazi ka mobile money harimo kubitsa, kubikuza, kohereza, ndetse no kwakira amafaranga, bishimira aka kazi kuko iyo bafasha abantu nabo ubwabo birabashimisha kandi bagakuramo ibibatunga.

Abakora akazi ko gutanga amayinite, kubikura, kubitsa ndetse no kohereza amafaranga, bakorera sosiyete y'itumanaho ya Emutiyeni, ni bamwe mu bishimira akazi kabo kuko ngo bagakuramo amafaranga abafasha kubaho mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abatanga serivise z'amagnite bakorera sosiyete y'itumanaho ya eyateri bishimira ko abakiriya babagana ari benshi kandi bikabafasha mu kwiteza imbere.

Abatanga amayinite ndetse n'izindi serivise za Mobile Money bakorera sosiyete ya MTN bishimira akazi kabo kuko kabafasha kwiteza imbere n'ibindi bitandukanye.

Inzu zitangirwamo serivise za mobayiro mani n'ibindi bitandukanye ni zimwe mu nzu zigomba kuba ziri ku muhanda kandi ziri ahantu buri wese ashobora kubona izi nzu zikorerwamo ibijyanwe no gutanga amayinite, kubikuza, kubitsa ndetse n'ibindi bitandukanye.

Abatanga serivise zitandukanye harimo kubitsa, kubikuza, kugura amayinite yo guhamagara ndetse n'ibindi bariyongereye, ibi ngibi bifasha abaturage mu iterambere n'ikoranabuhanga.

Abakora ubucuruzi bw'amagniti bakorera sosiyete y'itumanaho ya MTN ni bamwe mu bishimiye akazi bakora, kuko babasha kubona amafaranga aturutse muri aka kazi kabo abafasha muri byinshi.

Abayobozi b'amakoperative y'ubuhinzi nyuma yo kubona umusaruro bakawugurisha ku masoko abaturage bagenewe bimwe mu byo batahana bakajya guteka.

Abayobozi b'amakoperative ndetse n'abayobozi b'amabanki baraganira ku bufatanye, abayobozi b'amabanki bagira inama koperative gukorana na banki mu buryo bwo kwiteza imbere.

Banki ndetse na koperative ni bimwe mu bigo bibiri bifashanya, banki itanga inguzanyo kuri koperative ndetse koperative na yo ikabitsa mu mabanki agiye atandukanye.

Inama yahuje abayobozi, abanyamuryango b'amakoperative atandukanye y'ubuhinzi n'ubworozi ndetse n'abayobozi ba banki bari bari muri bamwe bari muri iyo nama.

Amabanki ndetse n'amakoperative aba agomba gukorana bya hafi, aba akora ibijyanye no gutunganya amata ndetse n'amazi ni bamwe mu bafatanya ndetse bagakorana na hafi na banki.

Abayobozi b'amakoperative ndetse n'amabanke mu karere k'Iburasirazuba k'Afurika ni bamwe mu bakoze inama baganira ku bufatanye ndetse n'imikoranire hagati y'ibihugu biri muri iyi ntara imwe.

Umugabo ukora ibijyanye no gutunganya imbaho ndetse n'ibindi bituruka ku biti, arasobanurira umunyamakuru uburyo yiteje imbere, yibumbira mu makoperative hamwe n'abandi bakora umurimo umwe.

Abazwi ku izina ry'abakarani ngufu cyangwa se abandi bakunze kwita abahebyi, barimo barapakurura imodoka, bari kuyipakururamo umuceri, wavuye muri koperative y'abishyize hamwe, ihinga mu gishanga.

Umukozi wo muri Banki arimo araganira n'umukozi uhagarariye amakoperative, aho umukozi uhagarariye amakoperative yaje kwaka inguzanyo ndetse no kuzigama, azigamira koperative aherereyemo.

Koperative Kopama iherereye mu Karere ka Nyagatare yashimiwe n'Akarere, ni nyuma y'uko buri muturage wese uri muri iyo koperative yiteje imbere kandi akaba abayeho neza we n'umuryango we.

Koperative ahazaza heza kuri bose, yakoze inama n'umuyobozi wa banki abaganiriza ibyiza byo gukorana na banki, byarangiye bemeje ko bagiye gufatanya muri byose.

Abayobozi b'amakoperative ndetse na banki ni bamwe mu bafatanyabikorwa bakomeye cyane. Amabanki akangurira amakoperative kwibumbira hamwe ndetse akaka inguzanyo kugira ngo abashe gukora kandi yunguke.

Abategura bakanatunganya ibihingwa ndetse n'ibitekwa baba basabwa kugira isuku ku rwego ruri hejuru cyane kuko ibi birinda indwara za hato na hato.

Abayobozi ba koperative ikora ubuhinzi bw'inanasi barishimira umusaruro, abanyamuryango bavuga ko ubutaha umusaruro uzikuba kabiri.

Ubuyobozi bw'akarere ka Nyagatare kahaye icyemezo cy'ishimwe abahinzi b'amatungo y'inka, nyuma yo kugaragaza ko inka zabo zatanze umusaruro urimo umukamo ndetse n'ifumbire.

Amakoperative akora ibijyanye n'ubuhinzi bw'inanasi, yishimira umusaruro utangwa n'iki gihingwa, babikesha kuba bahingana ifumbire bakabitaho ndetse bakanazifumbira.

Imodoka y'umwe mu bakorera muri iri soko ry'ubucuruzi iparitse hanze, hari n'abacuruza amayinite, ubusitani ndetse n'ibindi bitandukanye, nk'ibikorwa biyitanga serivisi z'Irembo.

Zimwe mu nyubako z'amakoperative ahinga ibigori banikaho cyangwa se mu ndimi z'amahanga bita hangali zigomba kuba ziri ku mihanda ku buryo imisaruro yabo ishobora gupakizwa ibinyabiziga mu buryo bworoshye.

Koperative ikora ubuhinzi bw'amatunda yamaze kwiteza imbere aho ibona umusaruro uri kugenda neza, iki gihingwa iyo kitaweho gitanga umusaruro mwinshi cyane kandi mu gihe gitoya.

Umuyobozi kuri mikoro ndetse ahagaraye imbere y'ameza mu gishagati kiriho amadarapo y'u Rwanda, arageza inama ku baturage bibumbiye mu makoperative ndetse abashishikariza kugana amabanki.

Inyubako z'amakoperative ni zimwe mu zifitiye akamaro abaturage, twavuga nk'inyubako zanikwaho imisaruro y'amakoperative nk'ibigori, amaya ndetse n'ibindi bihingo bitandukanye.

Abayobozi baragaragara bafite, sheke nini cyane, igaragaza ko batsinze amarushanwa, aho abakuru muri bo bafite iyo sheke cyangwa se inyemezabwishyu, iriho amafaranga ndetse yasinyiwe ko bamaze kuyahabwa.

Koperative ishinzwe ikusanyirizo ry'amata, iramenyesha abaturage bose ko amata bagomba kujya bayazana kuri koperative mu rwego rwo kugira ngo umusaruro wabo bajye bawukusanyiririza hamwe, kandi bajye babahera amafaranga ku gihe.

Koperative y'ubuhinzi yasuwe n'abayobozi batandukanye harimo na Polisi, umusaruro wabo urashimishije kandi ni mwinshi ku buryo bugaragara.

Umuyobozi w'amakoperative akoresha inama abaturage, abaganiriza uburyo bagiye kujya ba baka inguzanyo mu mabanki, ibi bikazabafasha kongera umusaruro, aho bagiye kujya bagura ifumbire bagakoresha mu buhinzi bwabo.

Inzoga ni bimwe mu bicuruzwa byinjiza amafaranga menshi cyane, yaba mu Rwanda ndetse no mu bihugu byo hanze, abacuruza inzoga baba basabwa gukangurira abazinywa kunywa mu rugero bakirinda kurenza ikigero.

Inzoga zo mu bwoko bwa Malibu, Montein ndetse n'izindi, ntizemerewe kunyobwa n'umwana uri munsi y'imyaka cumi n'umunani. Abemerewe kunywa kuri izi nzoga gusa ni abarengeje imyaka cumi n'umunani kandi nabo bakanywa mu rugero kuko kunywa inzoga nyinshi si byiza.

Mu kabari harimo intebe abakiriya bicaraho, ucuruza arimo arashyira inzoga muri firigo, hakaba harimo izoga z'ubwoko bwinshi bugiye butandukanye, hari inzoga zitandukanye nyinshi cyane.

Mu tubari hagomba kuba hateguwe neza, aho abakiriya bicara, aho banywera ndetse bakanatanga serivisi nziza zishimirwa n'abakiriya kugira ngo bazongere bagaruke babagana kubera serivisi nziza.

Abacuruza ndetse n'abanywera mu tubari dutandukanye, baba basabwa kwirinda amakimbirane hagati yabo, kuko bishobora kubaviramo urupfu. Abanywa inzoga baba bagomba kunywa inzoga mu rugero, mu rwego rwo kurinda ubuzima bwabo.

Uruganda rwa SKOL rutunganya inzoga rurakangurira abaturarwanda kurugana ariko rukaburira abatwite, abatwara ibinyabiziga ndetse n'abari munsi y'imyaka cumi n'umunani kutanywa inzoga.

Amaduka acuruza ibicuruzwa bisembuye aba asabwa kugira isuku ndetse no kwita ku bakiriya. Ibicuruzwa bisembuye harimo inzoga ndetse n'ibindi.

Mu tubari ni ahantu hagendwa n'abantu benshi kandi b'ingeri zose. Abakora mu tubari ndetse n'abakiriya babo, baba basabwa kwita ku isuku ndetse kandi bakabungabunga amahoro, birinda guteza umutekano mukeya.

Abacuruzi bakora ubucuruzi bw'inzoga ni bamwe mu babona amafaranga menshi kandi atubutsa. Abakora ubu bucuruzi bavuga ko nta kandi kazi gashobora kubasimburira ako gucuruza inzoga.

Amaduka acuruza ibikoresho by'abakobwa cyane cyane nk'amavuta ayo mu mutwe n'ayo kwisiga ku mubiri usanga abona abakiriya benshi cyane, bitewe nuko ibi bikoresho bikoreshwa mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Amaduka akora ubucuruzi bw'ibiribwa by'abana abandi bita orubiti cyangwa se bombo, avuga ko inyungu iba iri hejuru cyane bitewe n'uko ibi bicuruzwa bigurwa cyane kandi mu gihe gito.

Amaduka acuruza ibikoresho by'abagore n'abakobwa nk'amasakoshi, amakanzu ndetse n'indi myenda itandukanye, bavuga y'uko babona abakiriya benshi kuko ibi bikoresho bikenerwa n'abakobwa kenshi cyane.

Mu rwego rwo kubungabunga ibidukikije nk'amashyamba twirinda kuyatwika, leta yatuzaniye gaze igikoresho gikoreshwa mu guteka, hirindwa gucana ibiti byinshi cyane.

Abari ndetse n'abategarugori na bo bari muri bamwe mu bihangiye imirimo, bakitinyuka bagakora imirimo itandukanye harimo n'ubucuruzi, bagacuruza ibikoresho bitandukanye amavuta yo guteka, inyanya, ibirayi ndetse n'ibindi.

Inzu z'ubucuruzi zikorerwamo ibicuruzwa bitandukanye harimo nka capati, amandazi, ni zimwe mu nzu zikodeshwa amafaranga makeya kuko ubu bucuruzi nabwo bwinjiza amafaranga makeya ugereranyije n'ubundi bucuruzi.

Amaduka acuruza ibikoresho bitandukanye ndetse n'ibyo kurya bitandukanye, harimo: intoryi, karoti, ibitunguru, amagi, usanga abona abakiriya benshi. Impamvu ni uko ibi bikoresho bacuruza ndetse n'ibyo kurya bacuruza, bikenerwa n'abantu mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Amwe mu maduka acuruza, ibiribwa, hari amaduka menshi acuruza ibiribwa, bizwi ku izina ry'amakaroni, amakaroni n'ibiribwa byiza, bishobora kuribwa byonyine cyangwa bikavangwa n'ibindi bitekwa nk'ibirayi ndetse n'igitoki.

Ibicuruzwa biri mu isoko harimo: inkweto, imyenda, amatapi yo gushyira mu nzu ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye nk'imyenda baba bambitse ibyo bita maneke, igare ryaguye riziritseho umukoba, rifite amapine abiri.

Iduka ricuruza bimwe mu biribwa nk'intoryi, inyanya, karoti, amagi ndetse n'ibindi, riri mu maduka akorera amafaranga menshi cyane kuko abaturage babikenera mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ibikoresho by'ubugeni bitandukanye nk'imyenda, amasahani n'inkweto ni bimwe mu bikoresho bicuruzwa n'ababyeyi b'abagore cyangwa se abagabo. Ibikoresho byinjiza amafaranga menshi nk'uko ababikora babivuga.

Abacuruzi bacuruza ibicuruzwa bitandukanye nk'amagare y'abana, ifu zo guteka zitandukanye, ibitoki, umuceri, bavuga yuko babona inyungu mu gihe cyoroshye, kuko ibi bicuruzwa bacuruza bikenerwa n'abaturage mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Amaduka acuruza amavuta yo kwisiga y'abagore, agaragaza ko impungenge baba bafite ari uko aya mavuta atinda muri botique cyangwa se mu maduka yabo, kubera ko atabona abakiriya benshi cyane.

Inzu z'ubucuruzi, ziragaragaraho intebe zo gucuruza, imikoropesho, amabase n'ibindi bikoresho byinshi, haparitse imodoka ya nyira aho ngaho, ucururiza aho ngaho.

Ibirungo byifashishwa mu guteka bishobora gusimbura inyanya, bizwi ku izina rya kenzo mu ndimi z'amahanga, ni bimwe mu bintu bituruka ku nyanya z'umwimerere, bitunganyirizwa mu nganda, ndetse bikabikwa bikanapfunyikwa mu masashi.

Amwe mu maduka acuruza ibicuruzwa birimo ibyo kunywa agomba kuba afite intebe mu nzu abakiriya bicaraho, ibi birinda abakiriya akajagari ndetse bagakora ibikoreshwa byabo bishimye.

Iduka ricuruza ibikoresho by'abakobwa, harimo amavuta yo kwisiga ku mubiri, amavuta yo kwisiga ku munwa, amaparufe, ndetse n'ibindi, byunguka vuba cyane kuko abakobwa bakunda kugura ibi bikoresho.

Abakora ubucuruzi bw'ibiribwa mu maduka yabo ndetse harimo n'amafi; ni bamwe mu babona inyungu zihagije bavuga ko babona amafaranga abafasha gukemura ibibazo byo mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Amwe mu maduka acuruza ibikoresho byifashishwa mu gutunganya cyangwa gukora amandazi, avuga y'uko ahura n'ibihombo bikabije cyane. Ibi bikoresho bimara igihe gitoya bigahita bita agaciro.

Abacuruzi bacuruza ibikoresho bitandukanye nk'ingofero, uburoso na korogati amavuta yo gutekaka ndetse n'impakasi n'ibindi bicuruzwa bitandukanye bavuga ko kubona inyungu ari ikintu kiborohera kuko ibicuruzwa bacuruza ari iby'abantu bakenera mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Amaduka acuruza ibikomoka ku matungo bizwi ku izina rya saradine, icyayi ndetse n'amavuta, ni bimwe mu bicuruzwa bibinjiriza amafaranga kandi mu gihe gito kuko byifashishwa n'abantu mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Zimwe mu nsengero zujuje ibyangombwa zigomba kuba zifite parikingi, imirindankuba kandi zinubatse neza. Urusengero ruri ku muhanda rugomba kuba rwujuje ibyavuzwe byose nk'uko amategeko abitegeka.

Insengero, kiliziya ndetse n'imisigiti, ni bimwe mu bifitiye abaturage akamaro. Izi nyubako zifashishwa abakirisito ndetse n'abandi basenga Imana.

Inama yahuje abakuru b'amadini ndetse n'abayobozi baturutse mu bihugu byo hanze yarangiye neza, abaturage bose batanze ibitekerezo bungurana n'inama nk'uko bagiye kubaho mu murimo w'imana.

Abayobozi ba Adepeli mu Rwanda bateraniye hamwe biga ku nama y'uko bagiye kujya bita ku bakirisitu babo ndetse n'icyo bajya bakoresha amafaranga y'ituro, bamwe batanze ibitekerezo ko amafaranga azajya akoreshwa mu gufasha abatishoboye.

Umubwirizabutumwa w'umugore arimo arageza ijambo ry'imana ku bakirisitu bitabiriye, abakirisitu nabo bateze amatwi bumva ijambo ry'imana kandi bacecetse batuje.

Zimwe mu nsengero zitujuje ibyangombwa zarafunzwe. Leta ishishikariza abaturage bose ndetse n'abayobozi b'insengero, kubahiriza ndetse no gushaka ibisabwa byose kugira ngo insengero zabo zongere zikore.

Umupasiteri ari imbere yigisha abaturage, abaturage na bo cyangwa se abakirisitu baricaye baratuje bari gutega amatwi ijambo ry'Imana kandi banandika amagambo y'ingenzi.

Abayobozi b'insengero ndetse n'abaterankunga baturutse mu bihugu byo hanze nyuma y'amateraniro bahuriye hamwe bafata ifoto y'urwibutso, aba baturuka hanze mu ndimi z'amahanga nibo bita abamisiyoneri.

Insengero zigezweho za kijyambere zigomba kuba zifite: parikingi, imirindankuba, zifite ibigega, ubukarabiro bufasha abakirisitu kugira isuku ndetse n'isabune.

Bimwe mu bihugu byo hanze na byo byizihiza Pasika ndetse n'Ubunane, nk'uko mu Rwanda padiri asoma misa afite n'abahereza niko no mu bihugu byo hanze biba bimeze kuko kiliziya gatulika uburyo isomamo misa ntabwo bitandukanye.

Urubyiruko rwo muri ADEPR, rwamagana ibiyobyabwenge ndetse n'ibisindisha; bavuga yuko kwamagana ibisindisha ndetse n'ibiyobyabwenge ari yo nzira yo kubaha Imana ndetse no kuyimenya.

Zimwe mu nsengero za kera zarashaje, zikwiye kuvugururwa zikongera zikubakwa bundi bushya. Ibingibi bizafasha, abakirisitu ndetse n'abayobozi b'insengero, gukorera ahantu heza.

Ingoma ni kimwe mu bikoresho byifashishwa mu rusengero aho gitanga morali ku bakirisitu, gusenga upfukamye ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko umuntu yubashye Imana.

Ababyeyi b'abamama barimo barasenga, umwe yambaye amadarubindi abandi baramukikije barasenga bazamuye amaboko basaba imana ibyo baje bifuza ko bazageraho ndetse n'ibyo yabarinda.

Abakirisitu ndetse n'abandi bateraniye hamwe barimo baraganira babwirwa ijambo ry'I, mana abapadiri babahagaze inyuma ndetse abarebare bari imbere, abagufi bicaye kugira ngo na bo babashe kugerwaho n'iryo jambo ry'Imana bameze neza.

Amahoteli atuye mu mugi aba afite ibintu byinshi bishimishije; amatara menshi, amazi aza azamuka ndetse n'ibindi byinshi cyane bigiye bitangaje.

Amahoteli menshi ndetse n'amaresitora, agira ibicuruzwa bitandukanye ariko byiganjemo inzoga, ibyo kurya. Agatanga serivisi zo gucumbikira abantu ndetse n'izindi zitandukanye.

Amahoteli menshi aba afite aho abantu bicara baruhuka ndetse naho bajya kogera abandi bazi nka pisine, haba hari intebe zitandukanye aho abantu bicara banywa akantu.

Amahoteli nk'inzu zigendererwa n'abantu benshi, baba bagomba kugira aho bakirira abakiriya ahazwi ku izina rya lesebosiyo mu ndimi z'amahanga.

Abafite ubushobozi cyangwa bakeneye kwishimisha, bashakisha ahantu hari amahoteri meza, afite umutekano, aho kogera, aho kwicara, aho kuryama, ibyo kurya ndetse n'ibyokunywa bitandukanye.

Ibyumba byo mu mahoteli bigomba kuba bishashe neza bifite isuku, ndetse harimo n'ibikoresho bitandukanye umuntu ashobora gukenera, nk'amavuta, imyambaro yo kwambara umuntu agiye koga n'ibindi.

Amahoteli atanga serivisi zitandukanye zirimo gucumbikira abantu kubagaburira ndetse n'ibindi bitandukanye, abakora mu mahoteli basabwa kugira isuku ndetse no kubahiriza amasaha.

Zimwe mu mpamvu hoteli ikwiye kugenderaho itanga serivisi nziza, igira isuku ndetse n'ibindi bitandukanye, ni uko hoteli igendererwa n'abanyamahanga, abenegihugu ndetse n'abandi bantu batandukanye.

Mu mahoteli ni hamwe mu bahurirwa n'abantu benshi cyane, abakozi bakora mu mahoteli baba basabwe gutanga serivisi nziza, bakagira isuku haba mu bwiherero, ibyo bariraho ndetse n'aho abantu barara.

Hoteri zigezweho zigomba kuba zifite ibintu byinshi bitandukanye, gutanga serivisi nziza, kugira aho abakiriya bogera ndetse no kugira ibibuga by'imyidagaduriro.

Hoteli itanga serivisi zitandukanye. Harimo: kwakira abayigana, ari abataha cyangwa se abarara kuko hari ibitanda, abantu bashobora kuryamaho mu gihe baharaye.

Amahoteli aba agomba gushyiraho serivisi atanga, byorohera abakiriya kumenya icyo bashobora kuhabona n'icyo batahabona, abakiriya nabo basabwe kuza bamaze kumenya neza ko serivisi bashaka itangirwa muri iyo hoteli.

Abayobozi ndetse n'abakozi ba hoteli mu gihe cya kovide, ntabwo bari bemerewe kwegerana na bo nk'ibisanzwe, amabwiriza yavugaga yuko byibuze hagati y'umuntu n'undi hagomba kujyamo metero kandi bakambara agapfukamunwa.

Abakora muri za hoteri baba basabwa kugira isuku, yaba aho abakiriya barara ndetse n'ahandi. Bagomba kugira amazi meza n'isabune mu buryo bwo kwirinda indwara zikomoka ku mwanda.

Psine, indabyo ndetse n'indi mitako, ni bimwe mu biranga ahari hotel, hotel zisabwa gushyiraho ibintu birinda abantu kugira ngo badakora impanuka, bakaba bakwitura hasi mu gihe bari mu nyubako zo hejuru.

Zimwe muri serivisi zitangwa n'amahoteli harimo; gutanga amacumbi, gutanga ibyo kurya, ibyo kunywa, ndetse na serivisi nziza zishimirwa na buri wese uyigana.

Abatanga serivise zitandukanye mu mahoteli bagomba kubahiriza uburenganzira bwa muntu, bakagira isuku ndetse bagatanga serivise nziza ku babagana.

Zimwe mu mpamvu amahoteri yifashisha ibyapa byanditse mu ndimi zitandukanye ni ukugira ngo abenegihugu, abanyamahanga bose babashe gusobanukirwa ibyo iyo hoteri ikora.

Amazi cyangwa se pisine ni bimwe mu biranga hoteri, hoteri zigezweho zigomba kugira ibi bikorwaremezo bitandukanye.

Amahoteli yose asabwa kugira ubwiherero bwiza nk'uko biteganywa, mu bwiherero hagomba kuba harimo ibipapuro bakoresha bisukura, amazi yo gukaraba ndetse n'ibindi bikoresho by'isuku bitandukanye nk'isabune.

Amahoteli ndetse n'amamoteri ni zimwe mu nzu zitanga serivisi zitandukanye nko gucumbikira abantu, kubagaburira kubaha ibyo kunywa ndetse n'ibindi.

Amahoteli ni amwe mu macumbi agomba kuba ateguwe neza ndetse atatsemo indabo, intebe ziteye neza, hari amasuku, ibitanda byiza, amatara abonesha ndetse n'ibindi.

Abakora muri hoteri ndetse n'abayobozi babo barakangurirwa kujya bagira isuku ndetse bakanakira abakiriya neza. Hoteri ifite isuku irangwa no kugira abakiriya benshi cyane, bayingana kandi buri munsi.

Abacuruzi bakorera ubucuruzi bwabo ku muhanda ni bamwe mu bateza akajagari mu bucuruzi, Leta ishishikariza abacuruzi bakora ubucuruzi nk'ubwo kwibumbira mu matsinda ndetse bagacururiza mu masoko yabugenewe.

Abakora akazi k'ubudozi bw'imyenda, ni bamwe mu bafite akazi keza kuko bibanjiriza amafaranga kandi mu gihe gitoya. Abagakora rero, barasabwa kujya bakorera ahabugenewe mu rwego rwo kwirinda akajagari.

Abakora umurimo w'ubucuruzi bw'imboga n'imbuto nk'inyanya, amashu, karoti, ibitunguru ndetse na pavuro bavuga y'uko bibafasha kubona amafaranga akemura ibibazo ndetse n'ayo gutangamo mituweri.

Imineke, confetor, water melon, ni zimwe mu mbuto zicururizwa mu masoko agiye atandukanye. Abakora ubucuruzi bw'izi mbuto, bavuga y'uko babona amafaranga abatunga, akabafasha no gukemura ibibazo bitandukanye mu miryango yabo.

Abakora ubucuruzi bw'inyanya, pavuro, sereri, karoti, wotameroni ndetse n'ibindi bicuruzwa birimo nk'ibitunguru n'intoryi ni bamwe mu babona amafaranga abafasha gukemura ibibazo bitandukanye mu ngo zabo.

Mu isoko harimo ibicuruzwa bitandukanye. Harimo: inkweto z'abagabo n'iz'abagore, amabase, ibikoresho byo gutekeramo, amavuta yo kwisiga, abacuruzi b'abagabo, ab'abagore ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ababyeyi bakora ubucuruzi bw'imboga n'imbuto harimo inyanya, intoryi, insenda bavuga yuko ubucuruzi bwabo bubafasha mu kwiteza imbere, aho babona ibyo bakeneye bitabagoye.

Abakorera ubucuruzi bwabo ku muhanda, ni bamwe mu bacuruzi leta yamagana, impamvu nuko batishyura imisoro kandi ariyo iteza igihugu imbere.

Izuba ryinshi ndetse n'imvura nyinshi ni kimwe mu bibangamiye amasoko atubakiye. Abaturage bibangamiwe n'iki kibazo, kubera ko imvura iguye ari nyinshi yangiza ibicuruzwa byabo.

Ubucuruzi bw'imboga ndetse n'imbuto bukorwa n'ibitsina bigiye bitandukanye. Harimo abagabo abagore, bacuruza inyanya, pavuro, karoti, intoryi, imiteja, ibitunguru, ndetse n'ibindi, nka dodo zo guteka.

Abakecuru ndetse n'ababyeyi bakuze ni bamwe mu bakora ubucuruzi bw'akajagari cyangwa abandi bita agataro, bimwe mu bicuruzwa bacuruza harimo: intoryi, karoti, inyanya, ibitunguru ndetse n'ibindi.

Abakora ubucuruzi bw'imyenda ndetse n'ibindi bicuruzwa bitandukanye mu isoko bavuga ko ibicuruzwa byabo bituma biteza imbere.

Urujya n'uruza rw'abantu mu isoko, bamwe barashaka ibyo bagura, hari umugabo wambaye ingofero y'umuhondo, umubyeyi ufite abana, umubyeyi witandiye, barimo baragenda banyuranamo buri wese n'icyo ashaka.

Ubucuruzi bwo ku muhanda ni bumwe mu bucuruzi buba burimo ibicuruzwa bitandukanye harimo amashu, ababyeyi ndetse n'abandi bantu baturiye hafi aho ngaho bagahaha bitabagoye kuko ayo masoko aba ari hafi yabo.

Amaresitora meza mu Rwanda atanga serivisi nziza ku bakiriya babo. Harimo kubaha serivisi bifuza, kubatekera neza ndetse n'ibindi bitandukanye bagenda babakorera.

Amahoteli ndetse n'amaresitora aturiye ahantu, hafi y'ishyamba, aba akundwa cyane. Usanga abantu bahakunda bakaharira, kuko baba bari kumva akayaga.

Amafunguro atandukanye yakusanyirijwe hamwe, ndetse n'ibyo kunywa harimo juisi cyangwa se imitobe, inyama, imigati ndetse n'ibindi bitandukanye.

Hoteri, amaresitora ndetse n'ahandi bategura ibiryo basaba kugira isuku ihagije kuko aha hantu hagendwa n'abantu benshi kandi isuku akaba ari isoko y'ubuzima.

Amaresitora ategura ndetse akabikira n'ibyokurya, abakiriya asabwa kugira isuku kandi akagira intebe nziza ameza meza, amatara abonesha n'ibikoresho by'isuku.

Amaresitora yakira abantu aba agomba kubahiriza amategeko ayagenga harimo kugira isuku, gutanga serivise nziza ndetse no kwakirana abantu ubwuzu n'urugwiro.

Bamwe mu bakora akazi ko gutwara abagenzi ku mapikipiki bishimira ko no mu byaro hagejejwe imihanda, ibi bikabafasha kwirinda impanuka ndetse no kurinda ibinyabiziga byabo kwangirika.

Mu Rwanda haje amapikipiki adakoresha esansi cyangwa amazutu, amapikipiki akoresha batiri cyangwa se imbaraga zituruka ku zuba, ni kimwe mu bikoresho byifashishwa kandi bizagirarira umumaro mu kugabanya ihumanya ry'ikirere.

Abatwara ibinyabiziga bitandukanye nk'amagare ni bamwe mu bishimira ko leta y'u Rwanda ikomeje kugenda ikora imihanda yaba mu bice by'imijyi ndetse n'ibyaro. Ibi bibafasha kwirinda impanuka ndetse no kurinda ibikoresho byabo kugira ngo bitangirika.

Umuhanda wa kaburimbo uri ahantu mucyaro harimo abamotari, hakurya y'abamotari hari umuriro w'amapoto yambukiranya insinga cyangwag se atwara umuriro, amatara kumuhanda ndetse n'ibiti bigaragara ko izuba ryabyishe.

Abamotari bakora akazi ko gutwara abantu ndetse n'ibintu, bishimira ko imihanda yagiye ikorwa neza, aho bibarinda impanuka ndetse bikarinda n'ibikoresho byabo, ari byo moto.

Abatwara amagare ni bamwe mu batekerejweho mu mihanda iri kubaka, kuri ubu hari imihanda igenderwaho n'amagare, ibinyabiziga bikuru nka moto, imodoka kugira ngo bitabahungabanya.

Abatwara ibinyabiziga birimo imodoka, amapikipiki ndetse n'ibindi barasabwa kwitonda igihe bari mu muhanda kuko iyo utwaye nabi ushobora guteza impanuka, ibi ngibi Leta yabishyize muri gahunda ya Gerayo Amahoro.

Mu rwego rwo kwirinda ihumana ry'ikirere, haje moto zikoresha imbaraga zituruka ku zuba, ibi bizafasha igihugu kurinda ibidukikije ndetse n'ihumanya ry'ikirere.

Abatwara ibinyabiziga nka moto batwara abagenzi basabwa kubahiriza amategeko arimo gukarabya abagenzi ndetse no guhanagura amakasike yabo mu gihe umugenzi umwe avuye kuri moto hagiye kujyaho undi.

Abakora akazi ko gutwara abagenzi ndetse n'ibintu kuri moto, bishimira imihanda yakozwe neza, ibi bibafasha kwirinda impanuka ndetse n'ibindi byago byose bishobora guterwa n'umuhanda udakoze neza.

Abakora umurimo wo gutwara abagenzi bakoresheje ibinyabiziga bizwi ku izina rya moto basabwa kwigengesera mu gihe bari mu muhanda mu buryo bwo kwirinda impanuka ndetse n'ibindi bibazo bishobora gutezwa n'uburangare.

Abamotari cyangwa abatwara ibintu bakoresheje moto ni bamwe mu bantu nabo bakora akazi ko kugemura amata bakoresheje ibyo binyabiziga byabo aribyo amapikipiki cyangwag abandi bita moto sayiko mu ndimi z'amahanga.

Abamotari batwara abagenzi kuri moto basabwa kubahiriza amategeko y'umuhanda, abagenzi kandi nabo mbere yo kwicara kuri moto baba bagomba gusaba abamotari babatwara kasike ibarinda igihe bakoze impanuka.

Umunyonzi cyangwa se abatwara abantu n'ibintu ku igare, ageze ku kigo cy'amashuri ahetse ibitoki byinshi cyane ku igare, imbere ye hari indabyo zikikije ikigo cy'amashuri ndetse inyuma y'ibitoki ahetse hahambiriyeho umusego w'igare atwara.

Abatwara abantu mu buryo rusange ku binyabiziga bitandukanye nka moto ndetse n'amamodoka, baba basabwa kudatwarana abantu n'imizigo. Ibi bibarinda impanuka ndetse n'ibindi bibazo bitandukanye.

Abakora umurimo wo gutwara ibinyabiziga, basabwa kubahiriza amategeko y'umuhanda, cyane cyane aho abanyamaguru bambukira, ibi ngibi bifasha kwirinda impanuka ndetse no gusigasira ubuzima bw'ikiremwa muntu.